Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri bambaye inifomo: Amajipo atukura n'amashati arimo utubara tw'umutuku, aciyemo uturongo, abo ni abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hari n'abanyeshuri biga mu amashuri yisumbuye, bambaye amapantaro ya kaki n'amashati y'umweru.

Mu kigo cy'ishuri, ibiro by'abarimu aho bahurira bari guteranyiriza amanota, n'aho babika ibikoresho byabo; ibidanago, ibitabo, ingwa ndetse n'indi bikoresho bifashisha bari kwiyigisha.

Ikigo cy'amashuri giherereye mu gace ka Kiruhura gifite porotaye nziza cyane, hariho icyapa cyanditse mu nyuguti z'ubururu zanditse mu cyapa, hakaba n'urugi rufunguye rubwira abantu bose ko bemerewe kuza kwiga muri icyo kigo.

Mu kigo cy'amashuri habaye ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru w'abasoje kwiga. Bakoresheje amatente, badekoza idarapo ry'u Rwanda, ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hari intore ziri kubyina zambaye ibara ry'umweru ririmo akabara k'ubururu, n'abavuzi b'ingoma barishimye.